Hano dufite ifoto igaragaza ikinyabiziga kirekire twita shira umuteto, gitwara abantu benshi mu mujyi wa Kigali twishyura dukoreshejeho ikarita harimo n'abantu bari kugenda ku ruhande, ni ifoto yafashwe imodoka irimo iragenda mu muhanda, ku ruhande rwo hepfo hariho n'uruzitiro rusa icyatsi rusa nk'aho ari bwo bari kurwubaka harimo n'ibiti biteye hepfo yabwo.

Ifoto irerekana imodoka ebyiri imwe imanuka indi izamuka imwe irasa umweru indi irasa ubururu yise ubururu n'imodoka itwara imizigo irimo amakaziye amwe yumutuku nandi yubururu hepfo yayo hari uruzitiro rwicyatsi ruteye n'ibiti bisa nkaho hirya y'umuhanda indi ya ruguru yimodoka nayo isa umweruru nimodoka itwara imizigo ye ntoya kuriya yubururu niyo nini isa nkaho ifoto yafashwe imodoka zirimo ziragenda mumuhanda.